Umukobwa mwiza cyane uri kwamamaza saniramu aliyanse, yambaye ibintu by'ubururu, ishati y'ubururu, agapira k'ubururu n'ipantaro y'ubururu y'ijinizi ndetse n'ahantu ahagaze hari mu ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza imyenda cyane cyane y'abagore, imanitse kuri hangari bamanikaho imyenda mu maduka acuruza imyenda, yiganjemo amakanzu agiye atandukanye harimo na kamera y'ubwirinzi hejuru.

Abakozi bari mu kigo cy'imari nka banki cyangwa se SACCO, bicaye imbere ya mudasobwa barimo baruzuza ibintu bitandukanye, iyo banke ifite ibyapa by'icyatsi bimanitse hejuru mu birahure na kompiyuta zabo zisize amarange.

Umuntu wambaye ikanzu y'abayisilamu w'umwirabura uyogosheje akamaro k'umusatsi, ari kubara amafaranga akoresheje imashini ibara amafaranga, imbere ye hateretse amafaranga ari mu bwoko bw'amadolari agiye azinzazinze mudushandiko twinshi.

Umugore uteruye ijage y'umweru irimo amata, hirya ye hari icyapa kigaragaza uruganda rutunganya amata, hari n'indi jage iteretse ku meza, ndetse n'umubikira bakoresha basuka amata usa ubururu.

Uburyo wakohereza amafaranga avuye kuri mobayiromani ajya kuri zimu, barakwereka amafaranga bagukata wohereje angana n'idorari rimwe n'ibice mirongo cyenda n'icyenda y'amadorari y'Amerika, barakwereka n'ikirango cy'Igihugu zimu ikoreramo.

Ifishi igaragaza imyirondoro igiye itandukanye, bitewe n'amafaranga yagiye anyuzwa kuri banki bigaragara ko ari Banki ya Kigali, hariho imyirondoro yose amafaranga ndetse n'igihe we yagiye atangirwa.

Inote iriho amafaranga ya repubulika ya Kongo, iriho amafaranga angana na mirongo itanu, imbere haho hariho umwami uteze ikamba, inyuma y'inote hakaba hariho inzu ndetse n'insina n'ibindi biti bitandukanye.

Akaduka gatoya gacuruza amafaranga mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga, hariho ibyapa bitandukanye. Hariho ekwiti, hariho mombayiro mane, hariho Eyateri, hariho rege, hariho na nimero ndetse ushobora kumuhamagaraho umukeneye.

Inzu nini cyane hasi yayo hateyeho insina, ndetse iyo nzu ikaba igeretse; ari etaje, ikaba iriho n'icyapa kigaragaza ibintu bikorerwa muri iyo nzu.

Iduka ricuruza amafaranga yabanyamahanga, ayo twita amadovize mu Kinyarwanda, handitseho ibyapa bitandukanye by'ubwoko bw'amafaranga bakorana ndetse n'amasosiyete acuruza ayo mafaranga.

Mu nzu imbere mu cyumba kizwi nka salo cyangwa ubuganiriro, kirimo intebe bariraho ndetse kirimo n'ububati busa neza cyane, intebe bariraho zifite imifariso hejuru ijya gusa umweru.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore y'ibitenge bigiye bitandukanye, bimanitse ku murongo neza, ku buryo kimwe kigiye kiri hejuru y'ikindi, ku buryo icyo uza ushaka cyose wakibona.

Iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye byo kurya harimo ibishyimbo, ubunyobwa, harimo amafi, harimo n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, harimo amatara hejuru ari kwaka, uri kubona hasa neza cyane.

Ihema ritoya cyane risa umuhondo, ubona ko ririmo abantu bari kwamamaza ibintu bitandukanye, harimo abantu bagiye batandukanye, harimo umugore uri inyuma wambaye ikanzu y'ubururu, harimo umusore ufite ikayi ya rogisitire nini mu ntoki ndetse harimo n'umusaza wifashe mu mutwe.

Abantu batandukanye n'abagabo babiri bari imbere ubona ko bari kwamamaza sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, bamamaza MoMo. Bambaye imyenda y'imihondo n'ingofero z'ubururu ndetse n'umugabo uri kutwereka muri telefone imbere wambaye agapira k'umutuku kijimye.

Ifishi bigaragara ko ari iy'ikoranabuhanga, ifishi baguriraho ibintu by'ibikoresho bigiye bitandukanye iriho amakode bitewe n'igihugu ugiye guhahiramo.

Icyumba batekeramo kizwi nk'igikoni, kirimo ubutekero bwiza cyane bugezweho, kirimo ububati bugezweho bwiza, kirimo firigo imeze neza cyane, harimo n'itara ry'ikizeru hejuru ribonesha cyane.

Igipangu cyiza cyane gifite amabati asa umutuku, gifite urugi rwo ku marembo rusa umukara rufite utwenge tubonerana kuburyo ubasha kubona imbere.

Inzu iri mu gipangu cyiza cyane isakaje amabati y'umutuku, ifite igipangu kiyikikije kiri mu mabara y'umweru n'umukara, urugi rwo ku marembo rurabonerana ushobora kubona imbere, inyuma yiyo nzu hari indi nzu ifite isakaro risa umukara.

Inzu bigaragara ko ikodeshwa iri Kabeza Kigali, ifite ibara ry'icyatsi isakaje amabati y'umutuku werurutse, ituranye n'ibindi bipangu, imbere yaho hariho igiti kinini cyane kimeze nk'icya voka.

Iduka rinini rigezweho, ricuruza ibintu bitandukanye rifitemo akagare bagenda bapakiramo ibintu bari gucagura bagura, harimo abagabo batatu, umwe afite kagare ari kugenda ashyiramo, undi wambaye umupira w'umuhondo afite terefone mu ntoki n'undi winyuma wambaye ikote riri mu ibara ry'umukara n'umweru.